Iki ni ikigo c'amashuri ca Kammpaga kibaga mu murenge wa Kinigi. Kigagamo abanyeshuri bo mu murenge wa Kinigi n'abo mu murenge wa Nyange, ndetse n'umurenge gwa Musanze.

Aba ni abanyeshuri bambaye impuzankano yabo bicaye mu ishuri, kandi bakurikiye mwarimu. Bigaragara yuko bateze amaso ku kibaho.

Aha ni icigo c'amashuri y'incuke. Yigagamo abana bato baba bavuye mu rerero guhera ku myaka itatu ukazamuka.